Umugore wicaye imbere mu nama, yambaye agasengeri karimo amabara y'umukara n'umweru, yambaye baji, imbere ye hateretse agacupa k'amazi y'Inyange.

Imbere yanjye ndahabona abagabo batatu barimo barareba ahantu hamwe basa nk'aho hari ibyo bari kwitegereza, umwe muri bo yifashe ku munwa, bombi bambaye amadarubindi ndetse hari n'umwe wicaye ku ntebe asa nk'aho ari umuyobozi.

Umugabo n'umugore bahagaze imbere y'imbaga nyamwinshi, umugabo afite indangururamajwi, umugore yambaye ingofero y'umukara n'umugabo yambaye ikoti ry'umukara, mo imbere harimo agapira k'umweru.

Mu cyumba kiri kuberamo inama, yahuje abantu bagiye batandukanye, harimo abagore, ndetse n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi y'inyange, ndetse hari n'udukayi two kwandikamo ibyavugiwe muri iyo nama.

Inzu mberabyombi habereyemo inama yitabiriwe n'abantu batandukanye, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara, afite indangururamajwi, hari ibyo ari kubagezaho.

Inama yitabiriwe n'abantu batandukanye, abasore n'inkumi, abamama ndetse n'abapapa, imbere yabo hari uducupa tw'amazi, bicaye ku ntebe z'imyeru.

Umubyeyi ufite indangururamajwi, ahagaze imbere y'abantu babiri bari mu nzu mberabyombi, imbere ye hari itaburo iriho ibintu asa nk'aho ari kubyigisha.

Abamama babiri bicaye, imbere yabo hateretse mudasobwa ndetse n'icupa ririmo icyo kunywa, bombi bambaye amadarubindi, umwe niwe wambaye amaherena.

Inzu mberabyombi irimo urubyiruko rutandukanye, bamwe bambaye imipira y'ubururu, abandi bambaye imipira y'icyatsi, hagati muri bo hari umugabo, arimo arabaganiriza.

Inzu mberabyombi higanjemo abategarugori bari mu nama imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru amazi ndetse n'ibitabo byo kwandikamo ibyo bakuye muri iyo nama.

Inzu mberabyombi iherereye i Huye, ikaba irimo urubyiruko rugiye rutandukanye, barishimye barimo baraseka, bamwe muri bo bafite amaterefoni, barimo bafata amashusho.

Inzu mberabyombi irimo abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi y'Inyange, bambaye amakote y'umukara ndetse n'amakaruvati.

Abagore babiri, barimo barabyina bishimye, iruhande rwabo, hari umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara, mo imbere, yambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu.

Abagore babiri bicaye mu ntebe, bombi bambaye amadarubindi, inyuma yabo hari abandi benshi bisa nkaho bitabiriye igikorwa runaka.

Uyu ni umugabo, ni umuyobozi, afite indangururamajwi ahagaze imbere y'abaturage ayoboye ndetse asa nkaho afite ibyo ari kubagezaho.

Inzu mberabyombi, irimo ababyeyi ndetse n'abagabo, hari umuzungu wicaye iruhande rw'umumama, imbere yabo hateretse ameza ndetse barasa nkaho bari kuganira ibintu bigiye bitandukanye.

Inzu ikorerwamo serivise zigiye zitandukanye, hatangirwamo serivise z'irembo iza MTN, RURA ndetse uwifuza kujya mu mahanga aha wabagana bakaba bagufasha.

Umunara ufasha abatura Rwanda kumvikana, nta mbogamizi zibayeho. Uyu ni umunara uri mu murima munini cyane, ndetse hateye ibyatsi bisa nkaho byumye.

Uru ni urubuga leta y'u Rwanda yashyizeho kugira ngo yorohereze abaturage bayo kujya babona serivise bajyaga kwaka mu biro, bakajya bazibona onorayini bitabagoye, nawe niba ukeneye serivise ihutire kujya ku irembo, uzajya uhasanga byose wifuza.

Byikorere na Irembo ni gahunda ya leta yashyizeho yo gufasha umuturage kumugabanyiriza ingendo yakoraga za hato na hato ajya gushaka umuyobozi ku biro ariko ubu ngubu akaba abyikorera akanze akanyenyeri maganacyenda n'icyenda urwego.

Rwanda reveni otoriti, irimo iramenyesha Abaturarwanda ko uyu munsi ariwo wo kwishyu imisoro. Aha rero biba byiza iyowishyuye imbere kugira ngo udafatirwa ibihano.

Uyu ni umunara muremure, iruhande rwaho hari moteri ishinzwe kuwuha umuriro igihe cyose. Uyu munara utanga amarezo mu bice by'igihugu bitandukanye.

Ibikorwa remezo byatwegerejwe harimo n'iminara. Iyi ni iminara miremire ifasha abaturage b'u Rwanda kumvikana iyo bahamagaye cyangwa se bahamagawe bityo bigatuma babaho neza bisanzuye.

Rwanda reveni otoriti iramenyesha abayigana bose ko serivisi zose z'ibinyabiziga zimukiye i Masaka, Dubayi poti, ahasanzwe hakorera ibiro bya gasutamo. Iri ni itangazo ryerekana ko serivisi z'ibinyabiziga zimutse.

kwigaragaza ku bushake iyi ni gahunda ya Rwanda Reveni yashyizeho yo gushishikariza umuturage cyangwa se umucuruzi kumenyekanisha ibicuruzwa bye bityo ntabe yahanwa igihe afashwe ataramenyekanishije ibicuruzwa bye.

Inzu nini irimo amatara menshi cyane, harimo ameza y'umweru, hateretsemo kandi n'intebe z'umukara, birasa nkaho ari aho abantu bakunda kuganirira.

Umunara usize amabara y'umutuku, ukikijwe n'inzitiro zibuza abantu kuwegera. Munsi yawo hari umuhungu n'umukobwa bambaye amajire y'icyatsi.

Insinga nyinshi ziri guca hejuru y'umuhanda, munsi y'izi nsinga harimo amazu y'ubucuruzi, imbere y'aya mazu y'ubucuruzi, hari umutaka w'umuhondo wa MTN.

Umuturage w'u Rwanda aho ari hose agomba kubaha ibikorwa remezo kubera ko bidufasha kugera ku iterambere rirambye, nk'uko ubibona hano iri ni ipoto rinini ritwara insinga z'amashanyarazi.

Icyapa kigaragaza ibiciro bya risansi aho bigeze, imbere yacyo hari ipoto ririho itara rimurikira abagenzi bari muri uyu muhanda ndetse iryo poto ririho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwujyana mu mpande zitandukanye.

Inzu ifite urupangu rwiza, mw'imbere harimo indabo z'ubwoko butandukanye, hejuru yayo hari ipoto rinyuzeho insinga z'amashanyarazi zigiye mu duce dutandukanye.

Igipangu giteye irangi ry'umuhondo, munsi yacyo harimo indabo z'umuhondo, ku ruhande hateye igiti kiri mu ibara ry'icyatsi, iruhande rwacyo hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi ndetse rifite n'itara rimurikira aha hantu.

Umuhanda muremure wa kaburimbo, iruhande hateye ibiti, iruhande rwaho hari ipoto ritwara insinga z'amashanyarazi, iruhande rw'iryo poto hari umugore uhahagaze ufite umufuka imbere ye, iruhande rwe hari indobo y'umutuku.

Umuhanda urimo icyapa cya Airtel, iruhande rwacyo, hari icyapa kibuza abayobozi b'ibinyabiziga ko ugana ibumoso bitemewe kuhanyura.

Inzu iriho icyapa cya Sitatayime, iruhande rwacyo hari icyapa cya Eyateri, iruhande rw'iyi nzu hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi ndetse hejuru yaryo hari itara rimurikira aha hantu.

Umugabo uri kugenda mu mbuga ngari, yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro ya kaki, imbere ye hari imodoka y'ivatiri y'umweru ndetse asa nk'uri kugana ku rukarabiro.

Aha ni kwa muganga. Hari imbangukiragutabara ebyiri. Imwe irafunguye, izanye umurwayi urembye. Hari abari kumukura muri iyo modoka.

Imbangukiragutabara ni kimwe mu bikorwa remezo leta yegereje abaturage, aho kibafasha mu kugeza umurwayi urebye kwa muganga ndetse akabasha kuba yagerayo ubuzima butaramucika.

Ni imodokaka y'umweru iriho amabara y'umutuku, hariho udusaraba tubiri ndetse handitseho ijambo ambiransi, ni imodoka ifasha abantu barwaye barembye kugezwa kwa muganga bitabagoye.

Umugabo wambaye imyenda y'iroza, uri hagati mu baturage, iruhande rwe yicaye inteko y'abunzi, barimo baramucira urubanza, ndetse n'abariraho bose barimo barumva, ibyo yireguza.

Icyapa cyanditseho igororero rya Nyamagabe, hariho n'ikindi cyapa cyanditseho kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu, kwibuka twiyubaka. Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, gereza ya Nyamagabe.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'iroza, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikanzu y'umukara irimo amabara y'umweru, bigaragara ko bari mu rukiko.

Umugabo wambaye amadarubindi yambaye ingofero y'umukara mu maso asa nkaho akuze yambaye n'umwambaro uri mu ibara ry'umutuku.

Umugore wirabura wambaye amadarubindi, afite umusatsi muke, yambaye ikanzu y'umutuku, mo imbere yambariyeho agashati k'umweru.

Imbere yanjye ndahabona umugabo wiyogoshesheje igisunzu, yambaye amadarubindi, yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru arahagaze, inyuma ye hari abandi bagabo babiri basa nk'aho bari mu nzu nini, inyubako nziza cyane

Kizito mihigo, ni umuhanzi wamenyekanye cyane mu Rwanda waririmbaga indirimbo z'Imana, yambaye ishati y'iroza, mu ntoki ze afite igitabo.

Imodoka y'ivatiri y'umukara irimo iragenda mu muhanda, iyo urebye inyuma yaho urahabona imodoka ya polisi iri mu ibara ry'umukara ndetse izengurutswe n'ibara ry'umweru.

Igihe uri mu nyubako ikagaragaza ibimenyetso by'umuriro, ukabona iki gikoresho hafi uzihutire kugikoresha kuko cyifashishwa mu kuzimya umuriro.

Iki ni igikoresho gikunda kuba kiri mu nyubako zigiye zitandukanye, kiri mu ibara ry'umutuku, iyo hateye inkongi y'umuriro kirifashishwa, bityo abantu bakaba barokoka iyo inkongi y'umuriro.

Imbuga ishasheho amapave, haparitse ikinyabiziga cya polisi, iruhande rwacyo hari umugore wambaye inifomo y'umukara ndetse avuye kuri izigama CSS Muhima bulashe.

Ibi ni ibitaro bya kacyiru bya polisi y'igihugu cy'u rwanda. Aha havurirwa abapolisi ndetse n'ingabo z'igihugu zigiye zitandukanye.

Umugabo wirabura wambaye ikote, ishati y'umweru ndetse na karuvati, yambaye amadarubindi, ni umugabo usa nk'aho akuze.

Umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi, Nyakubahwa Perezida Paul Kagame afite insakazamajwi mu ntoki, yambaye isaha ku kuboko, inyuma ye hari umugabo ushinzwe kumurinda wambaye imyenda y'imikara.

Umukuru w'ishyaka rya FPR Inkotanyi, arimo ariyamamariza mu bice by'igihugu bigiye bitandukanye, aha arashaka kongera kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Abayobozi barimo abagabo n'abagore abagabo bambaye amakoti y'ubururu ndetse n'amakaruvate y'ubururu, iruhande rwabo hari umugore wambaye ikanzu nziza cyane.

Iyi ni imirongo ibiri miremire igiye irimo abantu batandukanye bisa nkaho hari ibyo bitabiriye gukora uko bigaragara izi ni gahunda za leta.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame, yicaranye na Minisitiri w'Intebe Edauard Ngirente iruhande rwe hari madamu Jeannette Kagame barishimye barimo baraseka.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye, higanjemo ibinyabiziga bitwara ibintu ndetse n'abantu, imbere hano hari rifani yifashishwa mu gutunda imizigo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitatu, hari ikinyabiziga cyitwa rifani, imbere yacyo hari imodoka iri mu ibara ry'umweru, harimo harazamuka imodoka iri mu ibara ry'umutuku yitwa howo.

Imodoka y'umweru itwara imizigo iri mu muhanda irimo iragenda, imbere yayo hari motari utwaye umugenzi, iruhande rwayo rw'iburyo hari umugenzi urimo uragenda n'amaguru.

Iyi ni imodoka ikora mu mujyi wa Kigali bakunda kuyita shira umuteto, ni modoka itwara abagenzi benshi ndetse yaje gukemura ikibazo cy'ibura ry'imodoka mu mujyi wa Kigali, ni imodoka nziza cyane,

Imodoka ya kwasiteri iri mu ibara ry'umweru, imbere ku kirahuri handitseho ijambo Sitera, Sitera ni agense itwara abagenzi ibajyana mu duce dutandukanye tw'igihugu.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihastu, iri mu ibara ry'umweru. Itwaye ibicuruzwa bigiye bitandukanye, iruhande rw'umuhanda hubatse amapave.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara imizigo, isakajwe n'ihema ry'umukara. Iyi modoka iri mu ibara ry'umweru irasa nkaho izamuka muri uyu muhanda.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu itwara imizigo igiye itandukanye, imbere yayo hari moto yihuta cyane, inyuma yayo hakaba indi modoka isa nkaho iparitse.

Iyi ni imodoka yifashishwa mu kwiga gutwara ibinyabiziga. Mu rubavu rwayo handitseho ngo, "Gutsinda ni yo ntego yacu".

Imodoka iri mu ibara ry'umweru yanditseho ijambo Yego kabu, iruhande rwayo hari umutaka wa MTN ndetse hari n'ikindi cyapa cya Laki beti.

Imodoka yo mu bwoko bwa Toyota iri mu muhanda, icanye amatara ndangabyerekezo, irimo iragenda, ihetse imizigo igiye itandukanye, inyuma yayo hari motari uhetse umugenzi ndetse hari n'undi bari kujya mu cyerekezo kimwe.

Umuhanda mugari urimo imodoka ebyiri, imwe yo mu bwoko bwa kwasiteri, indi yo mu bwoko bw'ivatiri, zirimo zirajya mu cyerekezo kimwe. Iruhande rwazo, hari inzu ya etaje.

Umuhanda utuje ukeye kandi utekanye, urimo moto itwaye umumotari ndetse n'umugenzi, bombi bambaye kasike ziri mu ibara ry'umutuku, iruhande rw'uyu muhanda hateye indabo ziganjemo ibara ry'umuhondo.

Imodoka y'ivatiri irimo iragenda mu muhanda harimo umuntu warambitse akaboko ku kirahuri, aha asa nk'aho ari kumwe n'umushoferi uyitwaye, barimo baragenda mu muhanda muremure bafite icyerekezo bari kwerekezamo.

Uyu ni umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru, gisakaje ihema ry'ubururu, iruhande rwacyo hari ivatiri y'umukara. Imbere yacyo hari umubyeyi ufite agafuka mu ntoki.

Iyi ni imodoka yo mu bwoko bwa Dayihatsu itwara imizigo, iparitse iruhande rw'icyapa kibujije guparika hano igihe kinini, niba yahaparitse igihe kinini bisobanuye ko yishe amategeko y'umuhanda.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda urimo ibinyabiziga bitatu, ikinyabiziga cya mbere ni imodoka y'ivatiri y'umutuku isa nkaho izamuka, nkaho mo hagati harimo imodoka y'ikamyo itwara imizigo, ku ruhande rw'iyo kamyo hari umunyonzi utwaye umugenzi, bose bari mu kazi.

Iyi ni moto itwara abagenzi, hariho umumotari wambaye ijire iriho ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, yambaye kasike y'umutuku, imbere kuri moto hari kasike y'umutuku.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye harimo moto, imodoka ndetse na lifani. ibi byifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu.

Uyu ni umuhanda w'amabuye, iruhande rwawo hari udutebe twicaraho abagenzi, umugore uhicaye yambaye agashati k'umukara, iruhande rwe hari undi mugore wambaye ijire ya Emutiyene.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, iruhande rwawo hari abagenzi bicara, hari abagabo babiri baganira, umwe muri bo yambaye agapira ka oranje hari n'umudamu urimo atambuka mu muhanda.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda urimo ibyerekezo bibiri bitandukanye, mu cyerekezo cyo hakurya kirimo imodoka isa nkaho impanuka, imbere y'imodoka hari icyapa cyerekana amasangano y'umuhanda.

Ni umuhanda ukeye utekanye kandi usa neza, harimo abamotari babiri batwaye moto, iruhande rw'uwo muhanda hari icyapa cyanditseho sitopu, bisobanura ngo itonde.

Iki ni icyapa gikoreshwa mu muhanda, aho kiba kiburira umuyobozi w'ikinyabiziga ko umuhanda ukatiye mu ruhande rw'iburyo. Bityo akaba atayoba.

Aha ni mu Mujyi wa Kigali ahitwa i Remera, hari inyubako ebyiri, imbere yazo haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye, harimo imwe ifite ibara ry'umukara ndetse iruhande rwayo hari izindi zifite amabara y'umweru, imbere yazo hari umumotari ugiye gutwara umugenzi.

Moto itwara abagenzi iparitse ku ruhande rw'umuhanda, hicayeho umumotari wambaye ijire ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, yambaye kasike, ategereje abagenzi.

Inzu nini zisakajwe amabati y'imituku, zikikijwe n'ibipangu binini byubakishijwe amabuye y'amakoro ndetse n'amatafari ahiye.

Imbuga ngari hariho sima, iruhande rwayo hariho umuhanda ndetse iyi mbuga ikikijwe n'urupangu rwubakishijwe amatafari ya Ruriba.

Agace kitwa mu Giporoso. Aha ni mu Mujyi wa Kigali, harimo urujya n'uruza rw'abantu, imodoka, moto ndetse n'amagare.

Imodoka ya dayihatsu ihetse imizigo, iriho ihema ry'umukara, irajya mu cyerekezo gitandukanye n'icyo moto iri kujyamo, ihetse umugenzi, imbere yayo hari imodoka y'ivatiri.

Uyu ni umuhanda mugari, urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, iruhande rwawo hari imodoka ziparitse, ku rundi ruhande hari itara rimurikira uyu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga byacanye amatara, iruhande rwawo hari itara rimurikira uwo muhanda, imbere hano hari aho abagenzi bambukira.

Akayira k'abanyamaguru gashashemo amapave, iruhande rwako hateyemo ibiti ndetse n'ibyatsi bisa neza.

Ikamyo yo mu bwoko bwa fuso itwara ibintu bigiye bitandukanye, imbere yayo hari umumotari uhetse umugenzi bombi bambaye kasike z'umuhondo.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, harimo amatara amurikira uwo muhanda, iruhande rwaho hahagaze umugabo wambaye agapira k'umweru, karimo amabara y'umutuku n'icyatsi, yambaye ingofero ndetse n'inkweto z'umweru.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, iruhande rwawo hari imodoka y'ikamyo, inyuma yaho hari icyapa kigaragaza ibyago bidateguza, kivuga ko imodoka ishobora kuba yagize ikibazo gitunguranye.

Imodoka y'ivatiri iri mu ibara ry'umukara, iri munsi y'ikiraro, iri mu muhanda, iri kugenda, hejuru yayo hanyuze undi muhanda.